Abantu benshi bazengurutse ku iriba, aho bavomera amazi harimo abagabo n'abana, bose bafite amajerekani bayatondesheje umurongo bari kuvoma, bavaho umwe hajyaho undi, mu rwego rwo kwirinda akavuyo.

Umugabo uhagaze ku iriba yambaye ishati irimo amabara menshi n'ipantaro y'umukara. Imbere ye afashe ijerekani ayifatishije amaboko yombi, ahagaze inyuma ye hari urugo rw'imiyenzi.

Umugore wicaye wambaye umupira w'ubururu n'amabara y'umweru ririmo umukara, uciyemo umutungo uteze igitambaro k'igitenge mu mutwe, ateruye umwana mu ntoki imbere ye hari umuganga uri gutera urushinge umwana ku kuboko ari urukingo.

Umugore wambaye ijiri y'abakoranabushake, afite agakoresho kifashishwa mu gupima umuriro, yambaye agapfukamunwa ari kugenda gakoza kuri buri muntu kugira ngo abashe kuba yamupima arebe uko ahagaze.

Ahantu hateraniye abantu benshi, hari abana bicaye hasi mu byatsi, imbere yabo hari umugore uhasutamye ari kubaha amata akoresheje igikombe, bose bagenda basukaho, inyuma yabo ahahagaze n'undi musirikare ufite icyansi mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze bahuriye ahantu hamwe, bari bahujwe n'umugambi umwe bahagaze ku murongo, imbere y'inyubako bari kwifotoza ubona ko bishimye kandi banezerewe ko ibyo bari barimo byagenze neza nta kibazo.

Umwana wambaye agapira k'umuhondo n'agakabutura k'umukara afite akajegakani k'umweru mu ntoki ari kuvoma amazi kuri robine, ari gushoka kugira ngo ayajyane mu rugo, impande ye hari n'abandi baje kuvoma bategerera amazi.

Umwana wunamye ku iriba ari guseka, yateze ikiganza ku mazi ari kuyavoma ayashyira mu maso, ashoka ajya hasi anyanyagira iruhande rwe.

Umuntu wateze ibiganza kuri rubine iri gusohora amazi, ari kujya ku ntoki ari gukaraba ayo amaze gukaraba agashoka agatemba, akanyanyagira iruhande rwe ameneka nta kintu ari gukarabiramo.

Abantu bateraniye mu cyumba kimwe, bari mu nama bahuriye hamwe, imbere yabo hari icyapa cyanditseho RBC, bigaragaza ko bari mu nama yo kwiga ku buzima bwiza bw'abana.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza y'ibizeru ariho ibitambaro by'umweru, buri wese afite imbere ye impapuro ari kwandika ibyo bari kuganiraho kugira ngo babashe kubyumvikanaho bose.

Ahantu hanini bubatse ibigega bikoreshwa mu gihe bari gufata amazi bakayatunganya bakayohereza mu baturage ngo ajye gukoreshwa asa neza nta mwanda urimo ku buryo bayakoresha nta kibazo nta ngaruka yabagiraho in o ku buzima.

Ikiranganigo cy'umuryango w'abibumbye harimo ikigo gishinzwe gufasha abafite ibibazo mu bihugu birimo ubukene cyangwa birimo intambara bikabasha kubaha ibyo kurya n'ubuvuzi ku buryo bworoshye.

Abagore batatu bahagaze ku iriba, umwe ahagaze imbere yabo ari kuvoma amazi ayavomera mu ndobo, abandi babiri bahagaze inyuma bari gupompa amazi aturuka munsi y'ubutaka azamuka kugira ngo uri imbere abashe kubona ayo avoma.

Umugore uhagaze ukenyeye ibitenge, wambaye amarinete, wiziritse n'ikindi gitenge mu mutwe, impande ye akikijwe n'abana benshi, bambaye imyenda itandukanye, harimo n'abambaye n'inifomo z'ishuri.

Abantu bateraniye hamwe bifotoza, bambaye imipira isa bavuye mu nama cya mu mahugurwa bari bahuriyemo bagiye kwiga ku ngingo zitandukanye kugira ngo bose babashe kuba bisobanukirwa babyumve ibintu byerekeranye n'ubuzima n'imibereho.

Abantu bahagaze kuri robine batandukanye, hari umwana ufite ijerekani ari kuyivomeramo, impande ye hari undi mugore batwikiye umutaka na we imbere ye hari ijerekani bari kuyivomeramo amazi.

Abantu bahuriye mu cyumba kimwe bari mu nama, yabahuje bari kuganira ku buryo bwo guhagarika icyorezo cya Mabaga, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane muri Kigali, inama yari yabahuje baganira ku ngingo zitandukanye zo kuba bahagarika icyo cyorezo.

Umugore uterura umwana, imbere hahagaze umuganga ari gufasha uwo mwana ari kumuha umuti akoresheje agakombe gatoya k'umweru afashe mu ntoki kugira ngo uwo mwana umuti udaca ku ruhande wose abashe kunywa, ubashe kumufasha.

Abantu benshi bahuriye hamwe bifotoza, bahagaze imbere y'ivuriro, imbere yabo hari ubusitani n'abaganga, n'abantu basanzwe bose bahujwe n'ikintu kimwe, bose bahuriye hamwe ubona ko bishimye banezerewe.

Abantu bahagaze ku iriba harimo umugore n'abana bafite utujekani baje kuvoma amazi umwe ateza imbere kuri robine aho amazi asohokera, undi ari inyuma aho bapomera amazi kugira ngo azamuke aturutse munsi y'ubutaka abandi bavome.

Abana babiri b'abakobwa bahagaze ku iriba baje kuvoma umwe ari gukorera undi indobo y'icyatsi kibisi bakenyeye ibitenge kugira babone amazi meza yo gukoresha mu rugo mu buryo bworoshye.

Abantu bateranye ari benshi, bari mu nama, bagiye bicaye ku meza zitandukanye zigiye zikoze ikizeru, bagiye baganira, bose imbere yabo bafite mashini, abandi bafite terefoni, bari gutanga ibitekerezo ku ngingo bari kuganiraho.

Umwana uhagaze wambaye agapira k'ubururu karimo amabara y'umukara n'agakabutura k'umukara karimo ibara ritukura, afite isabune mu ntoki, ari gukaraba intoki, imbere ye hahagaze umuntu uri kumusukira amazi.

Abantu bahagaze ahantu bateranye bari kwifotoza, bavuye mu nama bari bahuriye ahantu hamwe bahuje umugambi kandi ibyo bari bahuriyemo babishoje bigenze neza bari kwishima.

Abana bahagaze ku iriba barimo bavoma bafite utujerekani duto, imbere yabo hahagaze umugore uri kubapopera amazi ava munsi y'ubutaka abo abana bakabona ayo bavoma, kugira ngo bavome amazi asa neza atunganyijwe.

Umuntu uhagaze ateze amaboko kuri robine, amazi ari gushoka ari kumeneka, ari gukaraba intoki kugira ngo abashe gukura umwanda ku kiganza, mu buryo bwo kwirinda indwara zakwirakwira zitewe n'umwanda.

Ahantu hateretse amacupa manini ari mu ibara ry'ubururu, amacupa yifashishwa kwa muganga abika umwuka mwiza abantu bahumeka, baha abarwayi iyo barwariye kwa muganga bakeneye umwuka bashaka kubongerera.

Umwana uhagaze imbere ya robine ihengamye afite igikombe mu ntoki ari kuvomeramo amazi agiye kuyanywa cya agiye kuyakoresha ikindi kintu, kugira ngo abashe kumugeraho byoroshye kandi byihuse.

Abantu batandukanye bahagaze ahantu hamwe, bahujwe n'igikorwa kimwe, harimo abaganga, harimo n'abaforomo bafasha abaganga, bahagaze imbere y'inyubako bari kwifotoza bahujwe n'igikorwa kimwe, bose bahuriye hamwe ubona ko bishimye.

Ahantu hateraniye abantu benshi, ari benshi cyane, bahagaze imbere y'inyubako; imbere y'inyubako hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, haparitse imodoka y'imbangukiragutabara, ifasha abarwayi mu gihe bagize ikibazo, ikaba ibabafasha kuba yabageza ku bitaro bakabona ubuvuzi.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bari mu nama yabahuje, bari kwiga ibintu byerekeranye n'ubuzima kugira ngo barebe uko abantu bagira ubuzima bwiza, babashe kongera icyizere cyo kubaho bagabanye abantu bahura n'ibyago by'urupfu kubera kubura ubuvuzi.

Abantu bari kumwe bari kugenda mu muhanda, bahujwe n'umugambi umwe bambaye imipira isa y'umweru n'iy'ubururu, bafite icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Umwana uhagaze ku iriba imbere ye hari robine iri gusohora amazi ifunguye, umwana yatezeho intoki kuri iyo robine ari kunywesha amazi intoki arenze intoki akamanuka ajya mu ndobo kugira ngo atameneka yangirike.

Abantu bateranye ari benshi, bicaye mu cyumba kimwe, bakoze uruziga mu cyumba, bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugabo w'umuganga uri kubagezaho ibiganiro byateguwe.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe ari abantu bakuru, imbere yabo hahagaze abana bato bambaye inifomo z'ishuri, ubona ko bagiye kubasura, hari ibintu bagiye kubagezaho babateze amatwi.

Icyumba cyicayemo abana, bambaye imipira isa y'ubururu n'abambaye iy'umuhondo, bicaye hasi ku mukeka, hicayemo n'abantu bakuru bari kubaganiriza, bari kubagira inama ku bintu bitandukanye.

Abantu bahagaze ku iriba, imbere yabo haturetse amajerekani, baje kuvoma, harimo abana b'abahungu n'abakobwa, harimo n'umugabo uhagaze iruhande rwabo, afashe ku iriba, ari kureba inyuma ye.

Abana basutamye ahantu ku mugezi bari kuvoma amazi y'umugezi utemba, bashyizemo amajerekani, ari abana babiri, harimo ufite ijerekani nini n'undi mwana muto ufite akajerekani gato.

Abantu bari mu nama bicaye bakoze uruziga bari gutanga ibitekerezo mu gihe bari kuganira ku ngingo zitandukanye kugira ngo babashe gufata umwanzuro bawumvikanyeho kandi babihuje ibitekerezo bose.

Abana babiri bari ku iriba, hari umwe uhagaze imbere ufite akajerekani yagateze ku iriba aho amazi ari gushokera, undi ahagaze inyuma ari gupompa amazi kuko ari kuva munsi y'ubutaka n'undi ari kuyavoma imbere.

Abagabo bahagaze basuhuzanya bari kuganira barebana mu maso, hari abagabo b'abirabura iruhande rwabo hahagaze n'umugore w'umuzungu ubona ko bari bari mu nama, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho bibiri na cumi na karindwi.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugore uri kubagezeho ijambo, bose bacecetse batuje, bamuteze amatwi bari kumva icyo ababwira kugira ngo baryumvikaneho neza nta rusaku rujemo nta n'izindi mbogamizi.

Umwana uhagaze, hari umugabo uhagaze imbere ye wambaye ingofero y'ubururu n'umupira w'ubururu, ari kumukorera ijerekani ku mutwe, imbere ye hahagaze umugore w'umuzungu, ari kubafotora akoresheje terefone.

Abantu benshi batandukanye, barimo abagore, abagabo, abasore n'abakobwa, bahagaze bavuye mu nama bari kwifotoza, ifoto y'urwibutso kugira ngo izajye ibibutsa inama bari barimo cyangwa bayigire n'ikimenyetso ko iyo nama yabaye.

Abantu benshi bahuriye hamwe bahagaze, bari bavuye mu nama bifotoza kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso, iruhande rwabo hateretse iderapa ry'igihugu cy'u Rwanda harimo abirabura bavanze n'abazungu.

Abana bicaye ku iriba ari babiri, umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye agashati gasa n'agapantaro, bari bateze amaboko kuri robine, amazi ari kuza bayakaraba intoki, bayanyanyagiza kugira ngo bakureho umwanda ku ntoki zabo.

Abantu bicaye bateranye, bari mu nama bari kuganira ku ngingo zitandukanye kugira ngo babashe kuzibonera umuti n'ibisubizo mu buryo bworoshye binyuze mu biganiro, kandi bose babyumvikanyeho.

Abantu bateranira ahantu hamwe, bicaye ku meza imwe ndende, iteguyeho indabo, hagati ku meza harimo igitambaro cy'umweru. Buri muntu intebe yicayeho igiye iteretseho icupa ry'amazi, bafite n'imimpapuro imbere yabo.

Abantu benshi harimo abana bari kuri robine, bari kuvoma amazi, batezeho indobo, abandi bafashe amajerekani mu ntoki, hari umugabo ubahagaze iruhande, ari we uri kubafungurira amazi kugira ngo bavome.

Umugore wicaye uhetse umwana, imbere ye ahafite marete, imbere ye hicaye umuganga wambaye ishati y'umweru, hagati yabo hahagaze umwana, muganga yamuzamuye agashati ari kumupima ngo yumve uko umutima utera.

Abantu benshi bahagaze bari kureba abantu bahagaze imbere bari kubakinira theatre, bari kwamamaza ibintu byo kwirinda icyorezo cya ebora kugira ngo kitabasha gukwirakwira kikaba cyakwica abantu benshi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bateze amatwi, bose imbere yabo hari imeza ziteguyeho ibitambaro by'ubururu n'ibara ry'umweru, kandi buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi n'impapuro, bose bari kureba imbere bateze amatwi, umuntu uri kubagezaho ijambo.

Abagore bahagaze ku iriba harimo umugore usutamye ari kogereza umwana mu ndobo, impande ya bo hahagaze abandi bana, harimo umwana uhagaze imbere y'iriba afashe ku ndobo, undi ahagaze imbere y'undi mugore ufite indobo n'ijerekani biri kumwe.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bagiye kwivuza kwa muganga, imbere yabo hicaye abaganga, ku meza bahafite impapuro zitandukanye bari kugenda bandika abantu bagiye bakiriye.

Abantu bicaye imbere ku rubaraza bicaye batonze umurongo bagiye bakurikiranye, imbere yabo hicaye abaganga bicaye ku meza bagenda bakira umuntu umwe kuri umwe hagenda bahaza uko bagiye bakurikiranye kugira ngo babashe kubafasha nta kavuyo kabayemo.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, harimo abagore bahetse abana, imbere yabo hahagaze umugabo uri ku kibahu cy'umweru wambaye agapfukamuna uri kubasobanurira yandika.

Umugore wambaye umupira w'amaboko maremare wumutuku imbere yambariyemo agapira k'umukara, uri guseka uhagaze ahantu imbere y'inzu iteye amarangi y'umuhondo yishimye ubona nta kibazo afite.

Umugore ufite isuka mu ntoki, wikoreye igitebo kirimo imijumbajumba, imigozi y'ibijumba, akikoreje ingata y'igitenge, inyuma ye hari inzu isakaje amategura.

Umugabo wicaye ahantu ufungiranye, yambaye ubusa bamwicaritse kuri sima, afunze atabasha kugira icyo akora, atabasha kwinyeganyeza, atabasha no kwirebera imyenda yo kuba yakambara ngo ahindure, areke kuguma yambaye ubusa.

Abana bahuriye ahantu bicaye bishimye bari guseka bareba imbere kandi uko baseka ni nako baganira gahoro gahoro, kugira ngo ibyishimo bikomeze kwiyongera bamererwe neza ntakibazo bafite.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umaboko maremare irimo amabara atukura n'ayubururu n'ipantaro y'umukara, imbere ye hahagaze umugabo wambaye imyenda yacikaguritse ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ari kumusuhuza, yamuhaye ikiganza.

Umugabo wicaye yashyize amaboko ku mavi umutwe yawushyize mu maguru, imbere ye hicaye umukobwa amufashe ku rutugu, ari kumuhumuriza amuganiriza kugira ngo ibibazo afite bigabanuke areke gutekereza ibintu byinshi byamutera sitiresi.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba kinini bakoze uruziga, bari kuganira, hagati harimo abagore bari kugenda babaha ibiganiro, baberekera uko ibintu bikorwa, batanga ibitekerezo ku ngingo runaka.

Umugore wicaye hasi ku musambi uzinze yambaye agapira k'umweru, ukinnye n'igitenge, wicaye ahantu mu ishyamba impande y'igiti, aziritse umunyururu ku kuguru.

Umugabo uhagaze mu muhanda afite uburwayi bwo mu mutwe, wambaye ipantaro yacikaguritse n'agapira kacikaguritse, afite ibikapu by'ibishashi ku rutugu, afite n'igitebo mu ntoki byamucanze ameze nabi.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba kimwe, bahagaze bashoje inama bagiye gufata ifoto y'urwibutso, kugira ngo izabe ikimenyetso cy'uko iyo nama yabaye, cyangwa izajye inabibutsa, ibyo bigiye muri iyo nama kugira ngo babashe kubizirikana.

Mu modoka ikoreshwa nk'ibitaro bigendanwa, aho ibasha kugenda ikaba yatanga ubuvuzi ku bantu ibegereye, bidasabye ko bajya kwa muganga cyangwa ngo bajya mu bitaro kwivuza, ahubwo ikabasanga aho bari ikabaha ubufasha bwihuse kandi bari bakeneye.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bicaye mu mbuga abandi bahagaze inyuma bakoze mirongo itatu itambitse, bambaye imipira y'imikara abandi bambaye imyenda isanzwe bari bahuriye mu gikorwa kimwe bari kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Umugore wicaye ku gatebe ahetse umwana, imbere ye hahagaze undi mwana, atetse igikoma, agitekeye ku mbabura, ari guseka, ubona ko yishimye ntakibazo, ameze neza yishimanye n'abana be.

Abagore babiri bicaye bari kumwe bari kuganira, bafite igipimo mu ntoki cyifashishwa mu gupima ibizamini bigiye bitandukanye, harimo malariya, harimo SIDA cyangwa n'umugore yipima areba ko atwite.

Inyubako y'ibitaro bya CARAES yakira ikanafasha abantu bafite ikibazo cy'indwara y'uburwayi bwo mu mutwe, bakabafasha kubavura kugira ngo babashe gukira vuba babashe kuba basubira mu buzima busanzwe, babashe kubana n'abandi.

Umunsi mpuzamahanga agenewe kwita ku buzima bwo mu mutwe; kugira ngo abantu babashe kumera neza bitabweho; abafite uburwayi bwo mu mutwe kandi n'abandi baganirizwa kugira ngo barindwe ibibazo byaterwa n'ibibazo byo mu mutwe byagaruka.

Abagore bicaye ku ntebe ari bane, imbere yabo hicaye umugabo wazinze ukuguru kw'ipantaro, bari kumuganiriza, inyuma yabo hari imirima iteyemo intoki, ubana ko ari ahantu mu cyaro.

Umugabo uhagaze ahantu wambaye ishati y'ubururu, ufite ukenyeye n'igitambaro cy'umuhondo ku rutugu, wakutse amenyo, ufite umusatsi urimo akavuyo, umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ari ahantu bafashirizwa kugira ngo babiteho babavure babashe kuba basubira mu buzima busanzwe mu buryo bwihuse.

Abakobwa babiri bahagaranye umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, yambaye n'amarineti, imbere yicaye undi wambaye ikote ritukura n'ingofero mu mutwe bari kuganira ku bintu bitandukanye.

Abantu bahagaze harimo abagore n'abagabo bafashe urupapuro imbere yabo bari kwifotoza, ifoto y'urwibutso kugira ngo bazayigumane izajye ibibutsa ibyo bari barimo byabahuje bahuriye hamwe.

Umukecuru ahagaze hanze imbere y'urukuta ruteye irangi ry'umweru uteze igitambaro cy'umweru mu mutwe wambaye urunigi mu ijosi ahagaze ari gutekereza ibintu byinshi ubona ko byamurenze.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe imbere yabo hari imeza zigiye zicayeho abaganga, hagenda hahaguruka umuntu umwe agenda akicara imbere y'umuganga, bakaganira, akamusuzuma akamufasha akaba yamuha ubuvuzi.

Umugabo wicaye ahantu k'umuhanda, wicaye kubikarito impande ye hari imyanda iharunze, urabona ko ari umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, wambaye imyenda isa nabi kandi afite umusatsi ujagaraye urimo akavuye.

Umugore wicaye ateruye umwana mu maboko iruhande rwe hicaye undi mwana, imbere ye hari urutaro ruriho ibigori muri urwo rutaro hatereretsemo mironko ifite ibara ritukura nayo irimo ibigori ari kubitoreramo.

Umugore wicaye ku ntebe araramye, umutwe yawurebesheje mu kirere, yasamye imbere ye hahagaze abaganga bafite utwuma dukoreshwa mu gihe bari kuvura amenyo bamurika mu kanwa kugira ngo babashe kureba iryinyo rifite ikibazo babasha kurikuramo.

Umugabo uhagaze uri guseka yishimye afite amenyo mu ntoki, akoreshwa nk'insimburangingo, bafashisha umurwayi igihe yakutse iryinyo, bari kurisimbuza irindi kugira ngo abashe kumera neza.

Abana bahagaze bambaye inifomo y'ishuri, bafite ibikombe mu ntoki birimo amazi, bari kwiborosa bakoresheje uburoso bwoza amenyo n'umuti wabugenewe kugira ngo babashe gukura imyanda mu kanwa mu gihe bamaze kurya.

Umwana muto w'umukobwa wambaye agapira k'umweru, inyuma yambayeho ikanzu, yicaye ku ntebe, yateze akantu mu mutwe, afite uburoso mu ntoki bwifashishwa boza amenyo, ari kubunyuza mu kanwa, ari kuyakuba, ayogesha ubwo buroso.

Abantu bicaye bafite igikanka cy'amenyo imbere yabo giteretse ku meza bari kugenda bakigiraho gukura amenyo no kuyasubizamo mu gihe babyifashisha bari kuvura umuntu urwaye amenyo kugira ngo babashe kumuha ubuvuzi bugezweho kandi bwiza.

Igikanka cy'amenyo cyerekanwe yifashishije ibyuma byabugenewe bifotora mu mubiri imbere umuntu, kugira ngo babashe kuba bamusuzuma barebe niba nta kibazo afite imbere mu mubiri bidasabye ko bamubaga bakaba babibona, bakaba bamuha ubufasha bagendeye ku bisubizo babonye.

Umugabo wicaye ahantu mu cyumba cyo kwa muganga, harimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi, yicaye ku ntebe yegamye, bamwambitse agatambaro mu gatuza bagiye kumuvura.

Umuganga uri mu cyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi wambaye agapfukamunwa, ishati y'umweru, ari kugenda akora ubushakashatsi, apima ibintu bigiye bitandukanye, ibyo abonye akandika ku rupapuro rumuri imbere, kugira ngo abashe kubona ibisubizo akeneye.

Umwana wicaye imbere y'abaganga bari kumuvura yasamye bari kumureba mu kanwa ngo abarebe ikibazo afitemo kugira ngo bamufashe ni basanga arwaye amenyo babe bayavura mu buryo bworoshye kandi bwihuse budafite ingaruka.

Umwana wicaye ku ntebe yegamye, imbere ye hahagaze umuganga wambaye ga, yashyize intoki mu kanwa k'umwana yamwasamuye, ari kumusuzuma ngo arebe ikibazo afite mu kanwa, abashe kuba yamufasha nimba ari amenyo arwaye.

Amenyo agaragazwa hifashishijwe imashini zo kwa muganga zifotora mu mubiri mo imbere kugira ngo babashe kureba ikibazo kirimo, babashe kumenya uko babasha kuba bafasha umurwayi mu buryo bworoshye kandi bwihuse nta ngorane zirimo.

Abana bateraniye hamwe b'abanyeshuri bambaye inifomu z'ishuri, bafite uburoso bwifashishwa mu gukora isuku y'amenyo buyoza, bari kwiborosa boza amenyo bakoresheje umuti wabugenewe.

Umugabo wambaye umupira w'umweru uhagararanye n'umwana w'umweru, bafite akadodo mu ntoki, bari kukanyuza mu menyo, bagenda bakuramo utwanda twasigayemo nyuma yo kurya, kugirango babashe kuyakorera isuku abashe kumera neza.

Umugabo uhagaze imbere y'indorerwamo, wambaye ubusa hejuru, afite akadodo k'umweru werurutse mu ntoki, yagafatishije amaboko yombi ari kugacisha mu menyo, ari gukuramo utwanda twafashemo kugira ngo abashe kuyagirira isuku.

Abagore babiri bahagararanye, umwe yambaye ikote ritukura n' amarineti imbere yambariyemo agapira k'umukara, undi yambaye ikote ry'ubururu mo imbere yambariyemo agakote gatukura, bafite impapuro mu ntoki bari kugenda bandikaho.

Abantu bahagaze mu ishuri imbere ku kibaho, harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hahagaze umuganga wambaye agapfukamunwa yakamanuye, afashe umwana ku rutugu, umwana ufite igikanka cy'amenyo mu ntoki, ari kubigisha ukuntu bakora isuku yo mu kanwa.

Abaganga bicaye ahantu mu itente bari kwakira abarwayi, abaganga bambara udupfukamunwa na ga, bari kubafasha babapima ibizamini babareba mu kanwa niba hari indwara bafitemo kugira ngo babashe kumenya uko babafasha mu buryo bworoshye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zitandukanye, harimo n'ameza, harimo n'intebe, iyo umurwayi yicaraho mu gihe bari kumufasha, iyo umuganga yicaraho uri kumufasha kugira ngo abashe kumuvura neza.

Umwana wicaye ku ntebe yasamye, hirya ye hahagaze umuganga, ufite udukoresho bifashisha bbari kuvura amenyo, yambaye agasengeri k'umuhondo, yambaye n'amaherena, umuganga amuhagaze imbere ari kumuvura, ari kumufasha kugira ngo arebe iryinyo rifite ikibazo mu kanwa arikuremo.

Umuryango wateranye wishimye urimo umusaza n'umukecuru n'umukobwa n'umusore n'umwana muto, bari guseka, baganira, bameze neza ubona nta kibazo bishimye bishimiye ibihe barimo.

Umukecuru wicaye kumeza, ufite ikirahure kirimo amazi mu ntoki, impande ye ku meza hate, retse agakarito k'umuhondo imbere ye hahagaze umuganga wambaye ishati y'ubururu ari kumuhereza ibinini mu ntoki ngo abinyweshe ayo mazi.

Umusaza uri muri siporo ahagaze ahantu ku kazuba, wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, wambaye n'amarinete, afite na ekuteri mu matwi, mu ntoki ze afite utwuma dutoya abantu bifashisha bari muri siporo.

Umuntu uhagaze mu cyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda, yambaye imyenda y'abarwayi afashe imbago mu ntoki, zifashishwa mu kumenyereza amaguru, iyo umuntu amaze igihe atagenda kugira ngo abashe gusubira mu buzima busanzwe amaguru ye yamenyereye ashobora kwigenza ntakibazo.

Abagore babiri bari kugenda bari muri siporo, harimo umugore wambaye itiriningi hasi no hejuru y'umukara zifite amabara y'umweru ku ruhande n'umugore wambaye umupira w'umukara ukenyeye n'igitambaro cy'umutuku mu mutwe, bari kugenda ahantu ku muhanda impande yaho hateye ibyatsi, bari gukorera siporo ahantu hari akayaga kameze neza.

Umuryango wicaye mu nzu mu ntebe nziza. Bari kuganira baseka, bishimye, harimo abasaza n'abakecuru n'abana babo n'abuzukuru bameze neza nta kibazo.

Abantu bahagaze, bakoma amashyi, bishimye imbere yabo hahagaze umugore ukenyeye ibitenge, afite kuvurori mu ntoki arimo ayihereza umukecuru umuhagaze imbere, bari kubakomera amashyi.

Umukecuru wicaye ahantu mu byatsi, yarambuyemo tapi, ayicayeho, yarambuye amaguru, ari gukora siporo, yafatishije amaboko ku birenge, ari guhina umutwe akawukoza ku mazi, arambura umugongo.

Umusaza n'umukecuru bari kumwe bahagararanye, bafatanya ku rutugu bishimye, bari guseka, ubona ko bari mu bihe byiza nta kibazo bafite babanye neza, banezerewe kandi bikomeje bimaze n'igihe.

Umukecuru uri mu gikoni ahagararanye n'umukobwa bari gutegura ibyo guteka harimo imboga n'imbuto byifashishwa kugira ngo umuntu abashe kuba yagira ubuzima bwiza, mu gihe afashe indyo yuzuye imurinda indwara ndetse n'ibindi bibazo.

Umukecuru wicaye, imbere ye hicaye umuganga wambaye agapfukamunwa, wambaye n'imyenda itukura ufite igikoresho cyo kwa muganga bifashisha bapima umutima w'umuntu uko utera agifite mu bitugu, ari gupima uwo mukecuru yamushyizeho igipimo ku kuboko, amupima umuvuduko w'amaraso.

Abantu batatu bari mu cyumba, harimo n'uburiri bushashe neza buriho amashuka y'umweru, hari umusaza bari kubuhagurutsaho, iruhande rwe hahagaze umusore wambaye ishati y'umweru, no kurundi ruhande hagaze umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, bari gufasha uwo musaza kuba yahaguruka.

Amashashi menshi agiye arimo imbuto zitandukanye n'ibinini byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, bakoresheje imiti ya gakondo kugira ngo babashe gufasha abarwayi kubona imiti ku buryo bworoshye.

Abagore bari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda hateye ibyatsi bisa neza, akazuba kari kuva, bari muri siporo bari kugenda gake gake baruhuka, kugira ngo umubiri utore imbaraga bashobore kuba bakomeza siporo neza.

Abantu benshi bo mu gace kamwe bateraniye munsi y'igiti, bicaye bakoze uruziga bari kuganira, imbere yabo hari umugabo ufite mashini uri kubagezaho ikiganiro bose bamuteze amatwi bari kumureba.

Umukecuru wicaye ku ntebe, imbere ye hari imeza, afite ikirahure mu ntoki, iruhande rwe hahagaze umukobwa, wambaye imyenda yo kwa muganga, ari kumuhereza ibinini mu ntoki ngo abinyweshe amazi afite mu kirahure.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bahujwe n'ikintu kimwe, bagiye gushaka ubuvuzi, aho hari abantu baje gutanga imiti, no gusuzuma indwara zigiye zitandukanye mu baturage babegereye.

Umukecuru uri muri siporo yarambitse tapi hasi yayishinzeho inkokora n'amaguru ari inyuma, igihimba yakizamuye hejuru kugirango abasheshe gukora siporo neza.

Umukecuru n'umusaza bicaye mu nzu imbere y'imeza iteretseho agacupa karimo imiti, umukecuru afite urupapuro mu ntoki bari kurusoma bose barurebeshaho amaso.

Umusaza yicaye ku meza ari kurya, afite igikombe mu ntoki, afite n'ifoke, imbere hateretse ibyo kurya hariho n'imbuto, imbere ye hahagaze umugore bari kumufasha kumugaburira.

Umusaza uhagararanye n'umukobwa. Umusaza wambaye ishati imbere yambayemo agapira k'icyatsi kibisi. Umukobwa wambaye ikote mu imbere yambaye agapira k'umweru wambaye na marinete bahagaze inyuma y'inyubako ifite irange ry'umukara bishimye bari guseka bifotoza.

Umusaza uri ahantu mu nzu ari muri siporo, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, afite akuma mu ntoki yifashisha bari gukora siporo, impande ye hahagaze umuganga wambaye imyenda y'ubururu ari kumufasha kumumenyereza gukora siporo.

Umusaza uhagaze ari kwimenyereza kugenda agendera mu mbago, abarwayi bifashisha iyo kumenyereza amaguru igihe bari bamaze batagenda, bari kubamenyereza kugira ngo babashe kuba bakongera kugenda neza. Iruhande rw'uwo musaza hahagazemo umukobwa wambaye imyenda yo kwa muganga ari kumufasha kumumenyereza amaguru.

Umusaza uri kugenda amanuka ahantu impande ye hari umugore umufashe mu bitugu ari kumufasha kuba yamumanura, kugira ngo atagira ikibazo agatikira akaba yagwa hasi akavunika.

Umukecuru n'umusaza bicaye ahantu mu nzu, imbere yabo hari imeza iteretseho ikirahure cy'amazi, iteretseho n'icupa ry'ibinini, umusaza afite ibinini mu ntoki, umukecuru ari kumusomera ku rupapuro amabwiriza kugira ngo abone kunywa iyo miti.

Udukoresho twifashishwa mu gihe bari gupima abantu bagaragaweho n'ibimenyetso cyangwa abaketswe kugira ngo barebe niba nta cyorezo cy'ubushita bw'inkende baba bafite, batagikwirakwiza mu bandi baturage kandi nibasanga bagifite bamenye uko babafasha.

Abana benshi bahuriye mu birori byo kwizihiza umunsi wahariwe kurwanya Sida, bahuriye ahantu hamwe bari kubyina kandi ubona ko bishimye, bari kubikangurira abantu kwirinda ikwirakwira ry'uburwayi bwa Sida.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bagiye batonze umurongo bahagaze, bamwe bicaye abandi bahagaze inyuma yabo, bari bahuriye ahantu hamwe, bari bavuye mu nama bayishoje bari kwifotoza, kugira ngo bizabe urwibutso.

Abamasera bahagaze ari batatu, bari kumwe n'umugabo ubahagaze imbere wambaye ikoti rya kositimu, bari gusuhuzanya mu ntoki baganira, bari gusezerana ku bintu bari bamaze guhuzaho umugambi.

Abanyeshuri b'abanyafurika bari kwiga ibintu bitandukanye, harimo ubuvuzi, harimo ikoranabuhanga, harimo n'ubuhinzi kugira ngo babashe guteza imbere umugabane wa Afurika mu buzima no mu majyambere byose bijyanye.

Kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ugomba gufata indyo yuzuye, harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri, harimo imboga, imbuto n'ibindi byinshi.

Abagore n'abakobwa benshi bateraniye mu cyumba kimwe bari mu nama, imbere yabo hahagaze umuntu uri kubagezaho ijambo bose bacecetse bamuteze amatwi bari kumureba badasakuza bitonze.

Ababyeyi bicaye ku ntebe batonze umurongo, bagiye kuvuza abana, bagiye kubateza urukingo, bagenda bakira umwe kuri umwe uko bagiye bicara bakurikiranye, kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma.

Abantu benshi bicaye hamwe, bateranye bari mu nama, imbere yabo hicaye umugabo n'umugore, bari kubagezaho ibiganiro bitandukanye ku ngingo bashyizeho, kugirango ngo babashe kubyigaho kandi babashe kubibone igisubizo mu gihe gikwiye.

Mu Rwanda bahagurukiye kurwanya ikwirakwira ry'agakoko gatera Sida mu baturage, mu rubyiruko kugira ngo rubashe kugira ubuzima bwiza no kwirinda ndetse no kurinda abandi kuba hagira uwandura ako gakoko, kuko kagira ingaruka zitandukanye ku buzima bw'umuntu harimo n'urupfu no kuba yagira izindi ndwara ziturutse kuri icyo cyorezo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zagenewe gufasha abarwayi, harimo n'intebe bicaraho mu gihe bari gusuzuma, bapima ibizamini abaganga bafashe abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, harimo igitanda harimo n'imashini zigezweho zabugenewe kugira ngo bibashe gufasha umurwayi mu gihe bari kumubaga bamufasha bamuvura mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Mu bitaro kwa muganga ahantu hari icyumba cyagenewe kuvurirwamo amaso, hari intebe abarwayi bicaraho mu gihe bategereje, bagenda bakira umwe kuri umwe, bagenda basimburanwa uko bagiye baza bakurikiranye.

Umugore w'umuganga wambaye agapfukanwa k'umukara n'ishati y'umweru, imbere harimashini ari kukoresha ayifashisha kugira ngo atange ubuvuzi ku barwayi baje babagana bworoshye kandi bugezweho.

Icyumba kiri mu nzu yagenewe gukorerwamo n'ubuvuzi; hari n'imeza iriho mashini, imbere y'imeza hateye intebe, iruhande rwaho hari akabati karimo ibikoresho byifashishwa n'umuganga mu gihe ari guha ubufasha abarwayi bamusanze.

Umugabo uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, yishimye, yazamuye igipfunsi, impande ye hari imashini, abaganga bari kumufasha kumuvura, kugira ngo akire vuba asubire mu rugo amahoro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zitandukanye, harimo n'amacupa yifashishwa mu kubika umwuka wa oxygen, baha abantu bari guhumeka iyo bafite ikibazo cyo kubura umwuka uhagije mu gihe barwaye.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, iki n'igitanda kirimo n'intebe kirimo n'imashini zifashishwa aho uvuza abarwayi, harimo umuganga wicaye ku ntebe wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Mu dushashi turambitse ahantu dutonze umurongo, twifashishwa mu gihe bari gufata amaraso bazakoresha bafasha abarwayi barwaye babuze amarasu menshi bakeneye kubongerera amaraso mu mubiri kugira ngo ubuzima bwabo bubashe gusubira ku murongo.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo ibitanda kandi kuri buri gitanda hagiye hari imashini yifashishwa gufasha umurwayi mu gihe arwariye kuri icyo gitanda, bamuha ubuvuzi bw'ibanze kandi bamukurikirana umunota ku wundi.

Umugore urwaye, uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, imbere ye hahagaze umugabo n'umugore, bari kumusuzuma ngo barebe uko amerewe, babashe kumenya uko bamufasha kandi bamwiteho mu buryo bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho, n'imashini yifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bworoshye, kandi akabaha ubuvuzi bwizewe ku buryo bwiza kandi bakabasha kuba bakira vuba.

Inyubako y'ikigo nderabuzima bya kigina zifashishwa mu kwakira abaturage batuye hafi aho ngaho, kugirango ngo babashe kubona ubuvuzi bwiza mu gihe kitabagoye kandi vuba.

Ibikoresho biri mu cyumba bitandukanye, harimo amamashini akoreshwa mu gihe bari guha abarwayi ubuvuzi bugezweho kugira ngo babashe kubafasha mu buryo bworoshye kandi bwihuse babone ubuvuzi bwiza.

Inyubako isa neza, iteye amarangi y'umweru ku nkuta, hari n'imbuto zishushanyijeho ibishushanyo bisa neza, ifite amakaro hasi afite isuku, hateyemo intebe abantu bicaraho bari kuganira mu gihe bategereje ko baba bakakirwa iyo bagiye kwaka serivisi.

iIyubako y'ikigo gikuru gishinzwe gufata amaraso mu baturage, kugira ngo azabashe kuba yifashishwa mu bitaro, mu gihe hari abarwayi bayakeneye, bayabuze menshi, bakoze impanuka cya bagize ibindi bibazo bibasaba gutakaza amaraso menshi bikaba ngombwa ko bakene andi babongerera mu mubiri.

Inzu igenewe kwakira ababyeyi babyaye bagifite impinja, mu gihe bakeneye kubitaho bakeneye kubaha ubuvuzi bw'ibanze bwabagenewe kugira ngo bite no ku bana babo ku buryo bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga, giteguwe neza, gisa neza, gikorewe amasuku, icyumba cyateguriwe kwakira umurwayi, mu gihe byihutirwa, umurwayi arembye cyane, bidashatse gutinda mu zindi nzira, kugira ngo bahite bamufasha.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe bari gukora ubushakashatsi ku bintu runaka ku ndwara, icyorezo cyangwa se ku miti kugira ngo ibashe kujya hanze, ibashe kuba yakoreshwa.

Iyi inyubako niho icyumba cyagenewe gukorerwamo na farumasi icuruza imiti y'abantu, aho abantu bajya kugura imiti mu gihe barwaye, bayandikiwe na muganga, cyangwa bakeneye imiti ku zindi ndwara barwaye kugira ngo bivure.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza, gikuriremo isuku, harimo igitanda gitoya, mbere y'icyo gitanda hateye intebe, mbere y'ako gatanda hejuru kuri parafo hari tereviziyo, n'igitanda cyateganjwe kugira ngo kijye cyakira abana batoya barwaye bagiye kwa muganga.

Abaganga bari mu cyumba bambaye imyenda y'umweruru ibafunze ahantu hose, kugira ngo birinde kuba bakandura icyorezo mu gihe bari kwita ku barwayi barwaye, bamaze gufatwa.

Inzu nini irimo ibikoresho bitandukanye byagenewe gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura, harimo amagare yo kunyonga abantu bicaye ahagaze hamwe atagenda, harimo na tapi bifashisha birukankaho zikoresha umuriro w'amashanyarazi bitari ngombwa kujya mu muhanda cyangwa kujya n'ahandi hose ujya kwirukanka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bishoreranye, buri gitanda kigiye kimanitseho supanete kandi hagati y'ibyo bitanga hagi harimo ibitambaro bigenda bibigabanya kugira ngo buri murwayi igitanda aryamyeho abashe kugira umutekano.

Inyubako nini ya etaje yubakishije ibirahure by'ubururu, ikorerwamo n'ivuriro ryigenga ritanga ubuvuzi bugezweho kugira ngo babashe gufasha abarwayi ku buryo bwihuse kandi vuba mu gihe gito.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo baje kwa muganga kwivuza, bakabaha ibitaro, imbere y'ibyo bitanda hari n'utugare tw'ababana n'ubumuga, abarwayi mu gihe badashoboye kwigenza n'amaguru, bakoresha babasohora, banabinjiza.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, cyateganyijwe kugira ngo kijye gishyirwamo amaraso bavuye gufata, bayarinde kuba yakangirika azakoreshwa igihe azaba akenewe n'umurwayi wabuze amaraso menshi.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, izi n'imashini zifashishwa mu gufasha umurwayi harimo n'amatara manini amanitse hejuru kuri parafo, yifashishwa mu kumurika kugira ngo babashe kubona umurwayi bagiye kumuvura neza.

Abantu benshi bahuriye ku kigonderabuzima bagiye kwivura harimo abagore, abakobwa, abasore n'inkumi n'abana bato bose bagiye gushaka ubuvuzi kugira ngo babashe kwitabwaho bakire vuba.

Inyubako yagenewe gukorerwamo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukurikirana abantu bakorewe ihohoterwa, Isange One Stop Center, aho bafasha kubavura no kubafata ibimenyetso kugira ngo bizorohe mu gihe bari gukurikirana umuntu wakoze icyo cyaha.

Inyubako nini ikorerwamo n'ibitaro, iteye amarangi y'umweru, imbere yaho hari parikingi nini iparitsemo imodoka nyinshi zitandukanye n'imodoka z'imbangukiragutabara zifashishwa mu kugeza abarwayi ku bitaro babavanye aho bari barwariye.

Abantu bateraniye hamwe mu ishuri, bicaye ku ntebe ziteye ku murongo, bose bateze amatwi umuntu uri imbere yabo, ari kubagezaho ijambo, bari kuganira ku ngingo zitandukanye zerekeranye n'ubuzima.

Ikigo kinini kirimo inyubako zisa neza harimo ubusitani bunini buteyemo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, harimo n'utuyira tw'abanyamaguru, harimo n'abantu bari kugenda baducamo batambuka.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo imashini zifashishwa mu gihe bari gutanga ubuvuzi, harimo n'intebe zifite ibitambaro by'umuhondo, zicarwaho n'abarwayi mu gihe bari kubafasha babavura.

Inyubako z'ikigo nderabuzima cya Gishweru, zifashishwa mu kuba zakwakira abaturage batuye aho ngaho kugira ngo babone ubuvuzi bworoshye, bwihuse kandi bubegereye bitabavunnye bitabasabye ko bagomba kujya ahantu kure.

Ikigo kinini kirimo inyubako zubakishijwe amatafari ahiye giteye n'amarangi y'umweru, ku nkingi harimo n'ubusitani bunini buteguye neza, hasa neza ari ku kazuba ubona nta kibazo.

Umugore uhagaze uteru umwana, wambaye umupira w'umweru, nyuma ye hahagaze umuganga wambaye ishati y'ubururu ifite akabara k'umweru ku ijosi, bishimiye uwo mwana wavutse mushya bari kumufasha kumererwa neza.

Inyubako iteye amarangi y'umweru, isa neza kwa muganga ahantu hagenewe gukorerwa ubuvuzi harimo ibikoresho byifashishwa abantu bakaraba intoki kugira ngo babashe kugira isuku mu byo bakora byose.

Icyumba cyo kwa muganga, giteguye gisa neza kirimo isuku, harimo igitanda gishasheho amashuka y'ikigina, aho umurwayi aryama igihe yaje kwivuza arwaye.

Muganga uri mu cyumba giteguye neza kirimo isuku n'intebe zo kwicaraho hariho n'imeza nini iteretseho imashini ari kuyirebamo, ayikandaho ari gukora ibintu byifashishwa kugirango abashe gutanga ubu buvuzi bugezweho.

Inyubako nziza isa neza yubatse neza irimo ibikoresho bitandukanye. Ahantu harimo ahantu hagenewe kwakirwa abantu kugira ngo babashe kubafasha mu gihe baje bashaka serivisi muri iyo nyubako.

Ibitaro bya kabgayi biherereye mu karere ka Muhanga byakira abarwayi bafite uburwayi butandukanye bakeneye ubuvuzi n'abarwayi bafite ikibazo cy'amazi ndetse n'abandi bafite ibibazo bitandukanye bakabafasha bakabona uburyo bivuza.

Abantu wicaye ku ntebe, yambaye ipantaro y'umuhondo n'inkweto z'umukara n'umupira w'ubururu n'ingofero y'umukara, bicaye ahantu bategerereza iyo bagiye kwaka serivisi, imbere yaho hari ahantu bakirira abantu bagenda babakurikiranya uko bagenda bicaye umwe kuri umwe uko bagiye bakurikirana.

Inyubako ifite amarangi y'umuhondo ikorerwamo n'ikigo cya carayesi gifasha abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe kugirango babahe ubuvuzi babashe kuba barasubira mu buzima busanzwe bameze neza nta kibazo.

Icyumba cyo kwa muganga gifite imiryango y'ibirahure, iruhande rwaho ku rukuta hari icyapa kigiye kiriho ibimenyetso byereka abarwayi cyangwa abantu bari muri ibyo bitaro, aho serivisi zose zigiye ziherereye kugira ngo ha bataza kugira uyoba.

Inzu yubatse ifite imiryango minini irimo ibirahure, yagenewe kwakira abana batoya b'impinja kugira ngo ngo babashe kubitaho mu gihe bafite ibibazo bakeneye ubuvuzi, bakeneye kwitabwaho bitabagiraho ingaruka kubera kubura ubuvuzi bugezweho.

Icyumba kinini cyagenewe gukorerwamo siporo kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'amagare yo kunyonga, harimo tapi zikoresha umuriro w'amashanyarazi bifashisha bari kwirukankaho harimo n'ibyuma byo guterura.

Inyubako ikorerabamo farumasi, aho abantu bashobora kujya kugurira imiti, mu gihe bayandikiwe na muganga cyangwa barwaye indwara ibasaba kuba bajya kugura imiti, bakaba bayibona hafi yabo ku buryo buboroheye bitabagoye kandi byoroshye.

Umuntu uryamye ku gitanda, wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umweru, wambaye n'agapfukamunwa n'ingofero y'umukara mu mutwe, imbere ye hahagaze umuganga uri kumuzirika ku kuboko uri kureba umutsi ngo abashe kumuvura.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iteyeho n'irangi ry'umuhondo, muri iryo range ry'umuhondo handitseho amagambo atwereka ko, ari ku kigonderabuzima cya Rwerere, imbere y'iyo nyubako hari ubusitani, buteyemo indabo zitandukanye zituma haba heza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo, harimo amagare yo kunyonga abantu bari muri siporo atava hamwe, harimo ibyuma byo guterura, harimo n'amatapi yo gukoresha birukankaho akoresha umuriro w'amashanyarazi atava aho ari.

Umuntu uri muri siporo wambaye umupira w'ikigina, uhagaze ahantu hari ibiti ku muhanda ari kunywa amazi, akazuba kari kuva, ari kuruhuka mu gihe umubiri wari unaniwe ari muri siporo.

Umuntu wicaye ku gitanda arambuye ukuguru kumwe ya ukundi kwavunitse, bamushyize mu byuma bimufasha kurambura amagufa kugira ngo abashe gusubira mu mwanya wayo, bitazagira ingaruka nyuma y'uko amaze gukira, bikaba byamuviramo ubumuga.

Umugabo wari uri muri siporo yicaye yambaye ipantaro yumukara numupira wubururu afite agasome ku rutugu afite telefone muretoki yambayeteri ambe n'inkweto zifunze arimo anywa amazi aruhura umuriri mu gihe yari ananiwe.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi mu gihe bari kuvura n'umuntu wagize ikibazo, agacika urugingo bashaka kumuha insimburangingo mu kuguru cyangwa ukuboko kugira ngo babashe kumufasha kuba yasubirana umubiri ugaragara.

Umuntu wicaye hejuru y'imeza, yambaye ikabutura n'umupira w'umweru, yamanitse amaguru inyuma y'imeza, imbere ye hahagaze umuganga ari kumufasha kuzirika bande ku birenge, aho yakomeretse, yavunitse kugira ngo hataza kubyimbirwa cya hakazamo ikindi kibazo akabasha gukira vuba.

Umugabo wicaye afite ibyuma mu ntoki bibiri muri buri kuboko ari kubizamura abiterura ari muri siporo. Imbere hahagaze umugore w'umuganga ari kumufasha uko babikora amwerekera.

Ahantu hateretse ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, harimo imipira yo gukina, harimo imigozi yo gusimbuka, harimo na ga zo kwambara ku bantu bakina imikino y'iteramakofe n'ibikoresho byo kwa muganga.

Umugabo ahagaze wambaye agapira k'umukara ari kunywa amazi ayanywereye mu icupa rya purasitike, yari ahagaze ari kuruhuka mu gihe yari ari muri siporo, umubiri wari umaze kunanirwa, washyushye, ari kuwuhoza kugira ngo abashe kuba yakomeza siporo.

Ahantu hateretse ibintu bitandukanye, harimo ikirahure cy'amazi, harimo imboga n'imbuto, harimo icyuma byifashishwa mu gihe abantu bari gukora siporo bagiterura, mu gihe bari gukora umubiri, hari na metero bifashisha bapima umuntu kugira ngo barebe ubugari bwe cyangwa uburebure bwe. Hari n'ikirahure kirimo umutobe, n'inyama.

Umuntu uhagaze ahantu ku zuba, uri muri siporo, yambaye isengeri, ari kwigorora amaboko, yafatishije ukuboko kumwe mu bitugu, ukundi yagufatishije mu nkokora y'ukundi kuboko.

Umusore uhagaze mu cyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nyinshi, yambaye ga ari kuzikora kugira ngo zibashe gukomeza gukora neza zifashe abaganga mu gihe bari kuvura abarwayi nta kibazo kijemo.

Umuntu wicaye ku gitanda yarambuye ukuguru kumwe ukundi yaguhinnye, ukuguru yazamuye ipantaro ari gukanda aho ikirenge gihurira n'ukuguru, yavunitse ariko gushaka kugabanya uburibwe no kwirinda ko haza kubyimba.

Umugabo wicaye ku gitanda yazamuye ukuguru kumwe kw’ipantaro yakuzinze, imbere ye hahagaze umuganga ufite bande y'ubururu mu ntoki, ari kuyimuzirikira ku kuguru, kugira ngo amurinde kuba kwabyimbirwa, cyangwa n’ibindi bibazo birimo n'uburibwe burimo bubasha kugabanuka.

Umugore wicaye mu ntebe wambaye agapira k'umweru, yarambuye ukuboko kumwe ukundi yagufatishije mu nkokora yashyizemo agatambaro ari kuhakanda aho afite uburibwe, kugira ngo hagabanye kumurya hareke no kuba haza kurimbirwa.

Umuntu uryamye ku gitanda yarambuye ukuguru kumwe, ukundi yaguhinnye, imbere ye ahagaze umuganga wambaye ishati y'umukara afite agatambaro k'ubururu mu ntoki, ari kumfasha kumukanda mu ivi, ahantu yababaye.

Umuntu uhagaze muri siporo wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu aterura ibyuma mu ntoki, imbere hahagaze umuntu ari kumufasha amwerekera uko azikora kugira ngo ataza kuvunika, akiyangiza kandi kugira ngo siporo akora zize kumufasha.

Abantu bari mu kibuga, harimo umukinnyi uryamye hasi wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara n'amasogisi y'umukara n'inkweto z'umukara zirimo amabara y'umuhondo, imbere ye hapfukamye umugabo ari kumukanda mu ivi aho yavunitse.

Umugabo uri muri siporo uhagaze ku zuba, wambaye agapira k'umukara, wambaye n'isaha ku kuboko ari kunywa amazi aruhuka mu mugihe yari ananiwe, ari guhoza umubiri kugira ngo abashe kuba yakomeza gukora siporo.

Umugabo uhagaze, ari kunkwa amazi ari kuyankwera mu icupa rya palasitike, kugira ngo umubiri we ubashe kugira ubuzima bwiza, kubera ko amazi ari ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, akaba agize igice kinini, cy'umubiri w'umuntu.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, yarambuye ukuboko kumwe ukundi yaguhinnye yagufatishije mu nkokora y'ukundi, hariho igitambaro ari kugenda ahakanda, yababaye kugira ngo agabanye uburibwe kandi aharinde ko haza kubyimba.

Umugabo uhagaze ku zuba, wambaye agapira k'ikigina, wambaye na ekuteri mu matwi, uri kunywa amazi ayanywera mu icupa rya parasitike, ari kuruhuka mu gihe yari ari muri siporo, ari guhoza umubiri kugira ngo abashe kuba yasubira muri siporo ameze neza.

Umugore uhagaze uri muri siporo, uri imbere y'amazi wambaye ikabutura y'ubururu, n'isengeri y'ubururu, n'inkweto zifite amabara y'ubururu n'umweru, yazamuye ukuguru, yagufatishije ukuboko mu ivi.

Imashini zo kwa muganga zifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho kugira ngo babashe kwakira abarwayi benshi, kandi babashe no kubafasha mu buryo bwihuse bidatinze, bidasabye n'imbaraga nyinshi mu gihe gitoya.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, hariho ibyuma byifashishwa umuntu abifata ateruye, hari n'imbuto n'icupa ry'amazi, hicaye n'umuntu uri kwandika ku mpapuro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo imashini zifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi, harimo n'intebe bicarikaho umurwayi mu gihe bari kumufasha bareba uko ameze kugira ngo babashe kumuvura.

Umugore uhagaze ku zuba wakuyemo umupira yawambaye mu bitugu agasigarana isengeri ari kunywa amazi ayanywera mu icupa, mu gihe yananiwe umubiri wari ushyushye ari kugira ngo awuhoze yari yagize inyota nyinshi.

Urubuga rw'abantu bakina amarushanwa yo gusiganwa mu Rwanda, bahuriraho bagiye kureba amakuru agiye atandukanye, ari kuvugwa muri siporo zo kwiruka n'amarushanwa ari kuba n'ibintu byose biteganyijwe kugira ngo abantu babashe kumenya amakuru ku buryo bworoshye kandi bwihuse.

Ahantu hateretse amacupa y'umweru, harimo imiti yifashishwa mu gihe umuntu ari gushaka kugabanya uburibwe kandi kuri buri cupa rigiye ryanditseho amagambo, agaragaza izina ry'uwo muti n'icyo ukoreshwa kandi n'ukuntu ukoreshwa kugira ngo utaza kugira ingaruka ku bawukoresheje kubera kuwukoresha nabi.

Ameza ateretseho ibintu bitandukanye bifasha umuntu kuba yagira ubuzima bwiza harimo indyo yuzuye no gukora siporo, ameza ateretseho imboga n'imbuto n'inyama n'amagi n'ibyuma byifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gihe bari gupima ibintu bitagaragara, udashobora kuba wabonesha amaso nka mikorobe biri mu maraso, cyangwa ibiri mu byo kurya cyangwa biri mu bindi bintu bashaka kureba mikorobe zirimo n'indwara zirimo.

Umugore uri muri siporo, wicaye hasi yambaye imyenda ya siporo, yambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umukara, afite terefone ku kuboko, yambaye na ekuteri mu matwi, yambaye n'inkweto z'umweru, ari kwigorora yafashe amaboko yayamanuye, yayafatishije ku kuguru, birambuye imbere ye, yayafatishije ku mano.

Umugabo uri muri siporo wicaye ku gatebe ku zuba, wambaye ikabutura y'umukara ni sengeri y'umukara wambaye n'inkweto zifunze ari kunywa amazi imbere ye hateretse igikapu, iruhande rwe hahagaze undi mukobwa wambaye imyenda ya siporo ari kwinanura yambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umweru impande ye na we hateretse ikindi gikapu.

Umugore wicaye hasi uri muri siporo wambaye ipantaro y'ubururu n'isengeri y'bururu, yarambuye amaguru ari guhina umutwe awukoza ku mavi n'amaboko ayarambuye imbere ye.

Imeza iteretseho ibintu byinshi bitandukanye, byifashishwa kugira ngo umuntu abe yagira ubuzima bwiza, harimo imboga n'imbuto na metero ipima ubugari, hari n'ibyuma byifashishwa mu gihe umuntu ari gukora siporo.

Umugore uri muri siporo, imbere ye hari imbuto yifashisha kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza no kongera intungamubiri, kugira ngo mu gihe yavuye muri siporo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, harimo imbuto zitandukanye, harimo imineke, amacunga n'izindi.

Umugore uri siporo wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, n'ipantaro yubururu, n'inkweto zirimo amabara y'umweru n'umukara, n'umutuku n'umuhondo byose bivanze, n'amasogisi y'umweru, yahinnye ukuguru yagufatiye inyuma ku kibuno, yagufatishije ukuboko, ukundi kuboko yakurambuye imbere.

Umuti wifashishwa n'abantu bari muri siporo iyo bari kubabara ahantu, bakawuhasiga kugira ngo ugabanye uburibwe bareke kubabara kandi ukabarinda kuba wabyimbirwa mu gihe baba bagize ikibazo gituma umubiri wabyimba.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugira ubuzima bwiza. Harimo umupira wo gukina, harimo inkweto za siporo, harimo n'igikoresho cyifashishwa n'abaganga mu gihe bari gupima umurwayi baganye bareba uko umutima utera.

Igikapu gifite ibara ritukura harimo akarongo k'umweru, kifashishwa mu gutwara ibikoresho n'imiti bakoresha mu gihe bari gutanga ubutabazi bw'ibanze, mbere y'uko umurwayi abasha kuba yagezwa ku bitaro kugira ngo akurikiranwe.

Umugore uri muri siporo ahagaze yambaye isengeri y'ubururu afite terefone ku kuboko yayihambiriyeho, yambaye ekuteri mu matwi, ari kunywa amazi, ari kuruhuka aruhura umubiri, yarananiwe.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, uri muri siporo, uri kunywa amazi uri kuyanywera mu icupa rya parasitike ahagaze, inyuma ye hari igikuta giteye amarangi y'umweru, ari kuruhuka mu gihe yarari gukora siporo, umubiri umaze kunanirwa.

Abantu bari muri siporo zitandukanye hari abari gukina umupira, hari abari kwiruka, hari abahagaze bari kwigorora, hari abari guterura ibyuma bakora siporo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze kandi bafite imbaraga mu mubiri.

Umugore wicaye mu byatsi, wambaye ikabutura y'ubururu n'amabara y'umweru n'agasengeri k'umutuku, yarambuye amaguru yombi, yafatishije amaboko munsi y'ibirenge, ari kwigorora, yunama, akoza umutwe mu mavi.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga yamanitse ukuguru ku byuma, yavunitse bamwambitse ibintu bimufasha gusubiza amagufawa ku murongo, kugira ngo abashe kuba yakira neza nta ngaruka zijemo zo kuba yagira ubumuga.

Umugore uri muri siporo ahagaze ahantu mu muhanda yunamye, yashyize amaboko mu mavi yari ananiwe ari kuruhuka, umugore wari wambaye isengeri y'icyatsi kibisi n'ikabutura y'umukara n'inkweto z'icyatsi kibisi.

Mu bakinnyi bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru, bahagaze imbere yabo hari mugenzi wabo uryamye hasi hari abantu bamusutamye impande bambaye amakoti y'umutuku, bari kumufasha kumuha ubuvuzi bw'ibanze kugirango abashe kuba yakira ta nibidakunda bamujyane kwa muganga.

Ni umuntu wicaye ku gitanda wambaye ikabutura n'isengeri y'umukara, yambaye n'inkweto zifunze ku kuguru kumwe, ukundi kuguru urukweta yarukuyemo, imbereye hicaye muganga ari kumuzirikira bande ku kirenge yavunitse.

Umugore w'umuganga, wambaye imyenda yo kwa muganga, wambaye ishati y'ubururu n'agakoresho abaganga bifashisha bapima umutima w'umuntu uko utera, wambaye agapfukamunwa, imbere ye ku meza hateretse mashini, hari n'impapuro.

Icyumba cyo kwa muganga giteguwe neza kirimo isuku kirimo imashini zitandukanye harimo n'igitanda, hejuru kuri parafo hari n'amatara yesitaye afasha abaganga kubona neza mu gihe bari kwita ku murwayi bamuvura.

umugore wicaye hasi wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara ufite terefone ku kuboko yambaye na ekuteri, yicaye yarambuye ukuguru kumwe ukundi yaguhinnye yafatishije amaboko ku mano ari kugorora umugongo.

Mu mugihe wiriwe wicaye uri mu kazi wicaye mu biro hari imyitozo ngororamubiri ushobora gukorera mu biro byawe kugira ngo ubashe kuba wakize urutirigungo rwawe utazarwara indwara ziturutse kubera kwirirwa wicaye mugongo wawe uhinnye.

Umugabo wicaye ku ntebe, imbere ye hateretse imashini ari kuyirebamo igaragaza ifoto yafashwe hifashishijwe imashini zabugenewe gufotora mu mubiri w'umuntu, hariho ifoto yo mu mutwe bareba nimba nta kibazo afitemo kugira abashe kumenya ko bamufasha.

Umugabo wambaye imyenda uhagaze ari muri siporo, yambaye umupira w'umweru wambaye na ekuteri mu matwi, ari kunywa amazi mu gihe yari ari muri siporo ari kuruhuka ubiriro wari umaze gushyuha.

Amacupa atondetse ahantu agiye arimo imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ari mu macupa y'umweru buri cupa ri ryari ryanditseho icyapa gisobanuye umuti uri muri iryo cupa icyo uvura n'ukuntu ukoreshwa.

Ibikarito biretse ahantu, birimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, n'ibinini muri utwo dukarito, kugira ngo ifashe umuntu urwaye kuba yakira kandi ikamufasha mu buryo bwihuse, bidasabye igihe kinini.

Imeza iriho ibyatsi n'indabo n'imbuto n'ibiti byifashishwa gukora imiti ya gakondo byose biteretse ku meza imwe, hari n'akabati gapanzemo imiti uko igiye ikurikirana.

Imeza riho amacupa menshi arimo imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu gihe, hari umurwayi ufite ikibazo cyavurwa n'uwo muti bakaba bamufashe bakawumuha.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo ibibabi, imbuto n'ibiti byabyo, bakabihuza, bakabishyira hamwe, bikabasha kuba byavamo umuti wavura indwara.

Agacupa k'umweru gateretse ku meza nyuma hariho icyapa cyanditseho amagambo atwereka umuti uri muri ako gacupa uko witwa nuko ukora. Kugira ngo umuntu uwuguze agiye kuwukoresha amenye ko awifashisha bitamugiraho ingaruka.

Igikarito kirimo amacupa menshi y'umuhondo afite imifuniko y'ikigina, ayo macupa arimo amavuta yifashishwa mu gihe abantu bari gushaka kwita ku buzima bari kwivura indwara zitandukanye bashaka kuzikuraho.

Imeza iteretseho amacupa atandukanye n'ibikarito biiba birimo imiti, byifashishwa mu kuvura indwara ukoresheje imiti ya gakondo kandi kuri buri cupa no kuri buri karito, ahanditseho amagambo atwereka izina ry'uwo muti nuko ukoreshwa n'indwara uvura.

Icupa ry'umweru riteretse ahantu hasa icyatsi kibisi, icupa ririho ifoto, ikimera kifashishwa mu gukora imiti kandi iryo cupa ryanditseho amagambo agaragaza ko harimo umuti wifashishwa koza amenyo kugira ngo ubashe kuyarinda indwara zayafata.

Umugabo uhagaze imbere y'imeza, inyuma ye hari akabati kagiye karimo amacupa atandukanye agiye arimo imiti ya gakondo, afite n'irindi cupa mu ntoki ari gushyiramo ibyatsi n'ibiti kugira ngo na byo abashe kubikora abikuremo imiti yifashishwa mu kuvura indwara.

Ameza yateretseho ibintu bitandukanye, ateretseho igikombe, kirimo uduti dufite ibibabi, hariho n'amacupa agiye afite amabara atandukanye, hariho n'agasekururo kifashishwa mu gusekura utuntu dukeya, hariho n'imbuto ku ruhande, hariho n'uducupa dutoya k'ikigina, ibyo byose biri aho ngaho kuri iyo meza, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo.

Imiti iteretse ahantu hasi ku makaro iri mu macupa no mu bikarito bigiye bifite amabara atandukanye, harimo amabara y'umuhondo n'ay'umweru, kandi kuri buri cupa na buri gikarito hagiye handitseho amagambo abitandukanya.

Igihe umuntu ashaka kugira ubuzima bwiza, agomba gufata indyo yuzuye akarenzaho n'imbuto kugira ngo yirinde indwara, kandi umubiri we uhorane imbaraga mu buryo ubwo aribwo bwose bwuzuye kandi ameze neza.

Amacupa atandukanye ari mu ngano zitandukanye, ziri mu mabara atandukanye ariko kuri buri cupa hagiye handitseho icyapa gisobanura umuti urimo uko ukoreshwa n'izina ryawo kugira ngo uwuwuguze agiye kuwukoresha abashe kubona uburyo bwo kuwukoresha bitamuvunnye cyangwa bikaba byamutera izindi ngaruka kubera kuwukoresha nabi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe babiteguye babihurije hamwe, bikabasha kuba byavamo umuti uzavura indwara zigiye zitandukanye bitewe n'icyo wateganyijwe kuba wavura.

Igiti gifite ibibabi by'icyatsi kibisi, binini, bibyibushye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo kugira ngo ibashe kuba yakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti cy'umuravumba, amababi yacyo yifashishwa mu gukora umuti wa gakondo uvura indwara zitandukanye, mu buryo bworoshye kandi vuba, byegereye abantu bose, harimo indwara uvura, ni ibicurane, inkorora ndetse n'izindi.

Umuntu wicaye wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye, afite mu ntoki agasekuru bifashisha bari gusekura imiti ya gakondo kugira ngo abantu babashe kuyifashisha mu buvuzi.

Agakarito karimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara, gafite amabara y'umweru, kanditseho amagambo hariho izina ry'iyo miti kugira ngo abantu babashe kuyitandukanya n'indi, batabyitiranya bakaba bakibeshya.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora umuti wa gakondo, hari icupa ririmo umuti ukoreshwa mu koza amenyo hari n'uburoso bwifashishwa, kugira ngo umuti ukoreshwe woza amenyo, abashe gucya nta kindi kibazo.

Imeza ateretseho ibikoresho bitandukanye, harimo kirahure, harimo ikiyiko giteretse mu kirahure kirimo umuti usukika, iruhande rwawo hari ibibabi by'imbuto zifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye.

Igiti giteye mu murima. gifite amababi y'icyatsi kibisi, hari umuntu uyakoreshejeho intoki. Amababi y'icyo giti, yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo. Iyo yatunganyijwe neza, avanwamo n'imiti ivura indwara zitandukanye.

Abantu babiri bahagaze barebana, bahagaze muri dushe, umwe afite umuti ukoreshwa mu koza amenyo, unda afite uburoso bwifashishwa mu gihe cyo koza amenyo, yabuteze undi ari kumushyiriraho umuti kuri ubwo burosa kugira ngo abashe kuba yakoresha yoza amenyo, ayakorere isuku abasha kumera neza.

Utubati tunini, turimo amacupa n'udukarito irimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ivanze neza kugira ngo urigije kuwukenera abashe kuwubona, ku buryo bworoshye kandi hafi.

Imiti ya gakondo igiye iri mu moko atandukanye iri mu macupa, iri mu makarito kandi yose ivura indwara zitandukanye, ikoze mu bimera umuntu wese ashobora kubona usanga aho dutuye aho ari ho hose.

Icyatsi giteye mu butaka gifite amababi y'icyatsi kibisi, gifite n'indabyo zitukura, zifashishwa mu gukora imiti ya gakondo bavura indwara zitandukanye igihe babiteguye neza bakabasha kuba babikoresha nk'umuti wa gakondo.

Agakarito kaba karimo umuti uri mu icupa ryifashishwa mu kuvura indwara za gakondo, kuri icyo gikarito handitseho amagambo atwereka izina ry'uwo, muti nuko ukoreshwa kugira ngo uwuguze abashe kuwukoresha neza bitamutera ingaruka.

Igiti cy'umuravumba gifite amababi y'icyatsi kibisi manini asa neza, amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, harimo inkorora, ibicurane ndetse n'izindi.

Imeza iteretseho ibikoresho byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, hariho amababi n'indabo bikoreshwa, n'agasekururo gatoya gafite n'umuhini wako bifashisha bari gusekura ibyo bibabi ni zo ndabyo kugira ngo babitunganye bibashe kuvamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibintu biteretse ku meza, hariho agatambaro, hejuru hateretseho agasahane, ku gasahana hateretseho agakombe, karimo umutobe w'imbuto, ku ruhande hakatiyeho izindi mbuto, kuri ako gasahane, ku ruhande rw'ako gasahane hari izindi mbuto ziteretseho hejuru y'imeza.

uducupa duteretse ahantu dufite ibara ry'umweru hariho ifoto y'icyatsi cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo handitseho n'amagambo y'icyatsi asobanuye umuti urimo aho ngaho icyo ukoreshwa, ko ari umuti wifashishwa abantu boza amenyo kugira ngo abashe kugirirwa isuku.

Udukarito n'amacupa ateretse ahantu, bigiye bifite amabara atandukanye, kandi kuri buri karito no kuri buri cupa hagiye handitseho amagambo agaragaza ikirimo, ko harimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Igiti giteye ahantu gifite amababi asa neza y'icyatsi kibisi, amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, ivura indwara zitandukanye mu gihe yatunganyijwe neza, igategurwa kugira ngo ibashe kuba yakoreshwa.

Ibibabi n'ibiti n'imbuto n'indabyo byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganyijwe neza bigahurizwa ahantu hamwe bifite isuku, bikaba byavura indwara zitandukanye buryo bwihuse.

Mu ishyamba rinini hatemo ibiti bitandukanye, harimo ibiti byifashishwa mu kuba bakora imiti ya gakondo, bafashe ibibabi byayo cyangwa n'imizi yabyo kugira ngo bibashe gukorwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara.

Imiti iri mu uducupa igiye itandukanye n'iri mudukakarito, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye wakoresheje imiti ya gakondo yateguwe neza igatunganywa kugira ngo ivure indwara yateganyirijwe kuba yavura.

Imeza iteretseho ibirahure bibiri, birimo imiti ya gakondo yakoze bifashishije ibimera, bagiye bashyiramo ibibabi muri buri kirahure bakabihuza bikabyara umuti.

Icyatsi kirandaranda gifite akamaro n'icyatsi kibisi kirambitse ku gitambaro cy'umukara cyifashishwa amababi yacyo mu gukora imiti gakondo ivura indwara zitandukanye nyuma y'uko ibyo bibabi bitunganyijwe bigakurwamo umuti.

Imeza iteretseho imiti ya gakondo igiye itandukanye iri mu macupa n'iri mu bikarito kandi kuri buri muti hagiye handitseho amagambo atandukanya iyo miti asobanura icyo uwo muti ukora n'izina ryawo.

Imeza iteretseho udusorori twinshi tugiye turimo imbuto zitandukanye hari uturimo ibibabi, ibyo byose byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye mu gihe hari umuntu waba urwaye.

Igiti cy'umururumba kigira amashami manini abyibushye y'icyatsi kibisi, ibibabi byacyo byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo kugira ngo avure indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo uhagaze mu nzu icururizwamo imiti ya gakondo, inyuma ye hari utubati tugiye dupanzemo amacupa, buri cupa ryanditseho amagambo asobanura umuti uri muri iryo cupa n'icyo ukoreshashwa.

Isahani iteretse ku meza iriho ibintu byinshi bitandukanye, hariho imbuto hateretseho n'icupa ririmo amavuta yo gukoresha kugira ngo umuntu abashe kugira ubuzima bwiza mu kwirinda indwara.

Amacupa abiri ateretse ahantu, hari mo imiti ya gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo amabara atandukanye ibara ry'umweru n'iry'umuhondo kandi buri ryose ryanditseho amagambo abitandukanya agaragaza n'umuti urimo icyo ukora n'icyovura.

Igiti giteye ahantu gifite amababi manini y'icyatsi kibisi, gifite n'imbuto, amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye mu gihe yatunganyijwe neza ikabasha kuvanywa n'imiti.

Umuntu ufite ibiti mu ntoki bifite amababi y'icyatsi kibisi bikiri ibishyashya, ibyo biba byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, ivura indwara zitandukanye, mu gihe byatunganijwe neza, bikabasha kuba byavanwamo imiti.

Imeza iriho bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, hari ibirahure hari n'amacupa abikwamo iyo miti, n'indabyo n'ibibabi byifashishwa mu gukora iyo miti mu gihe bayiteguye neza bakabivanga bakabihuza.

Igiti cy'umuravumba gifite amababi menshi y'icyatsi kibisi byifashishwa mu gukura umuti gakondo, kugira ngo uvure indwara zitandukanye haririmo ibicurane harimo inkorora ndetse n'izindi.

Igikarito giteretseho amacupa agikikije mu ruhande arimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu. Kur’icyo gikarito handitseho amagambo, no kuri buri cupa handitseho uk’umuti witwa nuk’ukoreshwa, kugira ngo uwuguze agiye kuwukoresha bitamugora kuba yawukoresha.

Tungurusumu yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye, iyo yatunganyijwe, ikavangwa n'ibindi bimera, ikaba yavura indwara zigiye zitandukanye ku murwayi mu gihe runaka.

Ahantu hateretse imiti itandukanye, harimo n'imbuto hari n'imiti iri mu dukarito iri mu macupa, harimo n'inanasi byose biri aho ngaho kugira ngo bibashe gufasha umuntu kuba yagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Amacupa menshi ateretse ahantu afite amabara atandukanye kuri buri cyapa, harimo ikawa zifashishwa mu gukora imiti itandukanye kugira ngo uyifashe abashe kugira icyo yamuhindurira muzima bwe niyo yaba arwaye.

Akabati karimo amacupa agiye atandukanye arimo imiti igeretse hejuru y'ayandi kandi kuri buri cupa hagiye hariho amagambo asobanura umuti uri muri iryo cupa, uko witwa n'indwara uvura n'uko ukoreshwa kugira ngo bibashe kuba byatandukanywa.

Akabati katereretse ahantu hanze mu byatsi, karimo imiti igiye ipanze neza igerekeyije amacupa hejuru y'ayandi, harimo amacupa agiye afite amabara atandukanye, kandi buri cupa rigiye ryometseho igipapuro, kigaragaza umuti urimo icyo uvura n'uko witwa.